Mu gihugu cy'u Rwanda amazi yegerejwe abaturage, aha hari umwana uri kuri robine, ubona ko arimo aravoma, imbere ye hari amajerekani abiri ari mu ibara ry'umuhondo ndetse hari n'umumama ubona ko na we yaje kuvoma.

Umusaza bigaragara ko akuze, akaba ari hamwe n'umuganga wambaye imyambaro yabugenewe, aho bigaragara ko wagirango ngo hari indwara ashaka kumupima, inyuma yabo ahagaze akana gatoya kambaye umupira w'ubururu.

Abamama benshi bafite abana bateraniye ahantu hamwe, hakaba hari umuhungu wambaye umwenda wa oranje, urimo ugenda uha abana amata nkuko biri mu nshingano ze.

Amazi ni ingenzi ku buzima bwa muntu hano hari ababyeyi babiri, buri mubyeyi afite umwana ndetse bari kuvoma amazi kuri rubine kugira ngo buhagire abana babo babashe kurema umuco w'isuku.

Mu mavuriro menshi yo mu Rwanda agiye atandukanye, wasanga inzobere z'abaganga mu duce runaka. Hano ni mu cyumba cyo kwa muganga. Hakaba harimo abaganga batatu, ubona ko babiri muri bo bafashe udukarito turimo ibintu runaka by'ingenzi. Bakaba bambaye bose impuzankano ndetse n'udupfukamunwa.

Abantu bicaye ahantu hameze nko mu cyumba cy'inama aho bicaye batuje ubona ko bakurikiye, bisa nkaho hari umuntu uri imbere uyoboye ikiganiro hagati yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye amarinete ndetse inyuma y'uwo mugabo hari icyapa gishushanyijeho umuntu w'umugore ndetse n'amagambo yanditse ho ariko atagaragara neza.

Iki ni ikiganza cy'umuntu uteze amazi ari guturuka mu gihombo, arimo akaba intoki. Imbere ye, munsi ye, hari ikidendezi cy'amazi. Hakurya urabona ko hari ibimera bitandukanye.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa akaba ateruye umwana, inyuma ye hari umwana nawe bigaragara ko afite undi mwana mutoya mu ntoki ze.

Abana bambaye impuzankano ziri mu ibara ryenda gusa ubururu, zikaba ari impuzankano z'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima bw'abana ku isi yose.

Abagore batatu bagiye kuvoma amazi. Babiri muri bo barimo baragerageza gucunga ikiyapani, kugira ngo kibashe kurekura amazi. Undi mugore afite indobo y'icyatsi, arimo aravoma amazi.

Abantu batandukanye, ubona ko basa nk'abicaye mu cyumba cy'inama. Nk'uko bigaragara, bameze nk'abakurikiye umuntu uri imbere, uri kugira icyo ababwira. Imbere yabo hari ameza ateretseho agacupa k'amazi.

Abakobwa ndetse n'aba mama bari mu nzu m'imbere bateze amaboko ubona ko bizihiwe cyane byanga byakunda hari impamvu aba bagore ndetse n'aba bakobwa barimo barabyina birashoboka ko hari ikintu cyabashimishije.

Abadamu bagiye batandukanye bari kumwe n'abana babo batoya, bakaba bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima, aho ari kubafasha kubapimira ibiro abana babo kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

Abantu bahagaze barimo barareba umugore urimo urafasha umwana kuvoma amazi ku kiyapani, ijerekani zabo ziri mu ibara ry'muhondo uwo mugore yambaye umupira wenda gusa ubururu.

Ni mu nzu, harimo abantu benshi ariko biganjemo abamama, abamama benshi bafite abana, imbere hari umumama uteruye akana ndetse mu ntoki ze afite n'igipapuro.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu amagambo akaba yandikishije inyuguti z'umweru, iki kikaba ari ikigo mpuzamahanga gifite mu nshingano kwita ku bana, aho bava n'aho baturuka ku isi yose muri rusange.

Umwana w'umukobwa urimo uraseka ubona ko yambaye impuzankano. Ari kuri kandagira ukarabe aho ari koga intoki n'amazi meza n'isabune, yirinda imyanda ndetse n'indwara ziterwa n'umwanda. Inyuma ye hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Ahantu hateraniye abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye, hakaba hubatse amahema, ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore wambaye agapfukamunwa imbere ye hari umwana wambaye inifomo arimo aramufasha kumukarabya intoki inyuma ye hari ibiti byinshi bihateye.

Umudamu umeze nk'uvuye kuvoma, yikoreye indobo y'umutuku ndetse no mu kandi kaboko ateruye indi ndobo y'umuhondo, biragaragara ko uyu mudamu arimo arataha.

Abantu benshi batandukanye bambaye impuzankano bakaba bafite icyapa cyamamaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, hakaba handitseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Abantu benshi ubona ko bicaye mu cyumba cy'inama, imbere hakaba hicaye abayobozi bari kubayobora muri icyo kiganiro, aho bari kuganira ku bigendanye n'amafaranga ashyirwa mu buzima.

Umwana wambaye agapira ka oranje ndetse na kotoni bisa nkaho ari umunyeshuri, akaba yishimye cyane. Aho ari kuri robine arimo aravoma amazi yo kunywa. Akaboko ke k'indyo gafite igikombe ari kuvomesha amazi, ariko robine imwe irimo iramena amazi.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kikaba cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Iki ng'iki, kikaba cyamamaza ikigo mpuzamahanga gishinzwe imibereho myiza y'abana muri rusange.

Abantu benshi abagabo n'abagore ubona ko bicaye ahantu hasa no mu cyumba cy'inama, bisa nkaho hari umuntu bateze amatwi uri kugira ikintu ababwira.

Ahantu ubona ko hatatse neza, hari intebe z'ubururu, hari umusaza wambaye agapfukamunwa n'ingofero wicaye mu ntebe wegamye, imbere gato hari umugabo uhagaze ufite urupapuro, imbere ye hari imashini ku buryo ubona ko hari serivisi ari gufasha uyu mudamu umuhagaze imbere.

Ibiganza bibiri ubona ko ari iby'umuntu uri gukaraba intoki, robine ari gukarabiraho ifite ibara ry'ubururu, kuruhande gatoya hateretse isabune arimo arakoresha akaba intoki.

Umuganga w'umugabo yambaye itaburiya y'umweru, akaba arimo arapima abana ibiro. Hari ababyeyi bateruye abana, ndetse hejuru hariho umunzani arimo arapimisha aba bana. Ku bikuta hariho ibintu bimanitseho, biriho amagambo atagaragara neza.

Abantu bari kwifotoreza imbere y'inyubako, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, kuri iyo nyubako handitseho sale de konferensi, iruhande rw'abo bantu hakaba hari icyapa gisa nk'aho cyamamaza ibintu bitandukanye.

Abana babiri batoya bicaye mu cyumba ubona ko kiri kwakamo amatara y'ubururu. Umwana umwe w'imbere ubona ko yishimye cyane ndetse yazamuye akaboko, urutoki arutunga hejuru.

Abana babiri b'abakobwa umwe usa naho ari guhereza undi indobo y'amazi iruhande rwabo hari rubine bavomaho amazi aba abana bose urabona ko bishimye barimo baraseka.

Umugabo uri kumwe n'abana batoya aho bagiye kuvoma amazi kuri robine, kuri robine bahateretse amajerekani agiye atandukanye kugira ngo bavome uko bagiye bahagera ku murongo ntawutanze undi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru mu mugongo, imbere ye hari umubyeyi ufashe umwana, uwo mwana na we yambaye umupira w'umuhondo bisa nkaho uyu mugabo ari kwita kuri uwo mwana.

Ni inyubako ubona ko ari imwe mu gikorwa remezo igihugu cy'u Rwanda cyubatse, muri iyo nyubako hakaba hashobora kuba hatangirwamo serivisi zigendanye n'ubuzima, imbere y'iyo nyubako hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse hari abantu benshi b'ingeri nyinshi zigiye zitandukanye baje aho ngaho, haragaragara kandi n'amahema ahubatse.

Abagabo batatu ndetse n'abamama babiri bicaye ku meza bakoze uruziga aho bari kugira icyo baganiraho. Imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'amakayi barimo barandikamo ndetse hari na telefone ngendanwa ziteretse ku meza.

abagore babiri n'umwana umwe w'umukobwa, bari kuri rubine bari kuvoma, imbere yabo hateretse amajerekani menshi, ubona ko bategereje ko nayo bayavoma.

Kugira isuku ni byiza mu buzima bw'abantu, umwana mutoya uri kuri robine wafunguye amazi arimo aragerageza koga mu maso ndetse akaraba amazi meza n'isabune mu rwego rwo kunoza isuku.

Abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano barimo baroga intoki kuri rubine, aho imbere yabo hateretse indobo z'imihondo ndetse n'akabido.

Umwana mutoya w'umuhungu wunamye kuri robine urimo uranywa amazi ayanywesheje ibiganza bye, munsi ye hakaba hateretse indobo yaje kuvomeramo aya mazi.

Abana benshi bambaye impuzankano, bafite ibikombe, baje kuvoma amazi ku kantu kameze nka robine, bateretse hejuru y'ameza. Amazi ni ingenzi rero, tujye tuyanywa buri munsi kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza.

Abantu bicaye ahantu hasa nk'aho ari mu cyumba cy'inama mu bigaragara ni uko bashobora kuba ari abayobozi b'ikigo mpuzamahanga cyita ku bana aho bari kureba kuri bimwe bakorera abana kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Umugabo uhagaze imbere y'ababyeyi usa nkaho hari ibintu arimo arabasobanurira, iruhande rwe hari umunzani umwe bifashisha barimo bapima ibiro by'abana kugira barebe imikurire yabo.

Mu Rwanda amazi yegerejwe abaturage, hano hari umwana uri kuri robine urimo uragerageza kuvoma amazi, inyuma ye hari umubyeyi nawe bigaragara ko arimo araza kuvoma.

Ni mu cyumba kigaragara nkaho ari icyumba cy'inama, aho harimo abantu benshi bagiye batandukanye. Hakaba harimo abazungu babiri bicayemo, bisa nkaho bateze amatwi umuntu urimo arabaha ikiganiro.

Ni abagore babiri umwe wicaye ku ntebe undi uhagaze asa naho arimo aramutera urushinge ku rutugu bombi bambaye udupfukamunwa inyuma y'umugore wicaye hari undi muntu utagaragara neza uhahagaze.

Abantu batandukanye harimo umugabo umwe w'umuzungu, bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari icyapa kiriho ikigo runaka gusa ntabwo kigaragara neza.

Abana babiri, umukuru muri bo akaba arimo arakarabira mu ndobo, umwana umwe mutoya umuhagaze imbere akaba afite ibinika isa ubururu ndetse n'indobo bari kogeramo na yo ikaba isa ubururu.

Abana barimo badaha amazi mu ruzi, inyuma yabo hari ahantu hameze nk'umusozi ndetse ubona ko hagaragara nk'ahantu hitaruye kandi hari amabuye.

Ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye bambaye impuzankano iri mu ibara rya oranje, hari abana bato bicaye, hakaba hari n'abandi bantu bakuru bambaye imyenda ya oranje ndetse bafite ibicuba barimo barahesha abana amata.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano nziza bisa naho ari umunyeshuri, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, inyuma ye hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu barimo barafasha abana batoya, babaha amata yo kunywa, abana bakaba bambaye imipira isa iroza, mu bigaragara n'uko aba bantu ari abagiraneza baje gufasha abana, kugira ngo baticwa n'inzara.

Abana bambaye impuzankano bakaba bicaye hasi ku mikeka, gusa hakaba harimo n'abandi bantu bakuru, muri aba bantu bakuru harimo umugore umwe w'umuzungu, bigaragara ko hari ikintu cy'ingenzi barimo baganiriza abo bana.

Abagabo babiri bicaye ubona ko hari ibyo barimo barabwira abandi babakurikiye inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo agamije kurwanya no kurimbura virusi y'icyorezo cya mabaga.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore bafite abana, abagore bamwe muri bo bambaye utujeri dusa, ubona ko wagirango ngo ni amahugurwa bari bamaze guhabwa.

Abantu benshi batandukanye abagore, abagabo bahagaze ku mirongo ibiri ndetse muri abo bantu hakaba harimo umuzungu umwe inyuma yabo hari icyapa gihari gusa amagambo yanditseho ntabwo agaragara neza.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wambaye impuzankano, ari kuri kandagira ukarabe arimo arakaraba intoki, akabasi ari gukarabiramo gafite ibara ry'umuhondo.

Abantu bateraniye ahantu bambaye impuzankano iri mu ibara rya oranje ndetse hakaba hari n'umupolisi umwe ubahagarariye, barimo baratera uturima tw'igikoni, aho barimo baratera imboga z'amoko menshi agiye atandukanye.

Umugabo ufite ibitabo mu ntoki, wicaye ku ntebe iruhande rwe hakaba hari ibindi bitabo byinshi, imbere ye hicaye umumama ukikiye umwana, nawe ufite impapuro mu ntoki, bisa nkaho uyu mugabo hari ibintu by'ingenzi arimo amusobanurira.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho harimo abaganga babiri bambaye impuzankano, hakaba hari umuganga umwe ufite umurwayi wicaye ku ntebe. Uwo murwayi akaba ar’umukobwa, uyu muganga yamushyizeho ikintu gipima umuvuduko w'amaraso, kugira ngo arebe uko umukobwa ahagaze.

Abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, abagabo abagore, bahagaze imbere y'ishami ry'ivuriro ryita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo ubuzima bwabo bwongere bumere neza.

Iyi ni inyubako ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho hari ibintu byinshi by'ikoranabuhanga bitandukanye. Aha rero hakaba hagaragara ko ari ahantu hatangirwa serivisi zerekeranye n'ubuzima.

Abana benshi bambaye imyenda y'imihondo ubona bazamuye amaboko, inyuma yabo hakaba hari abantu babakuriye, urebye ku ruhande rw'iburyo gato, hari akapa kariho ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abana ku isi yose muri rusange.

Ahantu hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye, imbere y'abo bantu hakaba hari umwana umwe ndetse n'umuganga wambaye impuzankano, akaba yambaye n'uturindantoki, uwo muganga akaba arimo aratera urushinge uwo mwana bisa nk'aho hari ikintu arimo aramusuzuma cyangwa hari indwara arimo aramukingira.

Umugore ukikiye umwana wicaye ku ntebe ,yambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero y'umweru iruhande rwe hari abandi ba mama babiri basa nkabari kumufasha kwita kuri uwo mwana.

Abantu batandukanye ubona ko bambaye impuzankano, bicaye mu cyumba kimeze nk'icy'inama bisa nk'aho bateze amatwi cyangwa se bakurikiye urimo arabaganiriza, imbere y'abo bafite uducupa tw'amazi ndetse n'udutabo turimo amabwiriza.

Ahantu hateraniye abantu batandukanye ndetse b'ingeri zitandukanye hari inzu imbere y'inzu hari idarapo ry'igihugu cyu Rwanda ,imbere yayo gato hari amatete ahubatse ku ruhande rw'ibumoso rw'iyo nzu hari imodoka ihaparitse ruguru y'amatete hari umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye.

Abana babiri basutamye imbere ya robine, aho barimo barakaraba intoki kugira ngo birinde imyanda itera inzoka zigiye zitandukanye.

Abantu bahagaze imbere ya robine aho ubona bategereje kuvoma amazi amajerekani yabo bayashyize kumurongo bakurikije uburyo bagiye bahagera kugira ngo ntihagire utanga undi.

Umugore n'umugabo bari kuri rubine bari kuvoma amazi, bose bafite amajerekani y'umuhondo. umugore yitwikiriye igitambaro mu mutwe, naho umugabo yambaye ishati irimo amabara menshi atandukanye.

Abantu babiri b'abagabo bambaye amakote bose ubona barimo barasuhuzanya, umugabo umwe yambaye amarinete ye ndetse mu kaboko ke k'imoso afitemo ibitabo, imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ndetse hakaba hariho na mikoropfone, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho kurwanya mabaga.

Umuganga urimo urakingira umwana akaba ari kumwe n'undi muganga umufasha gukora izo nshingano, uyu mwana akaba afashwe na mama we, imbere yabo hari ameza ateretseho n'izindi nkingo zitandukanye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama ubona ko imbere hari umuntu usa nkaho abayoboye iruhande rwe hakaba hari da raporo ry'u Rwanda, muri abo bantu harimo umugore umwe ukuze w'umuzungu.

Abantu baje kuvoma amazi ariko nk'uko bigaragara bashyize ku murongo, kugira ngo hatagira utanga undi akavoma mbere y'undi kandi yamutanze kugera kuri rubine.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo ndetse hakaba harimo umugore umwe w'umuzungu, bahagaze imbere y'icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Umuganga bigaragara ko akiri umusore, wambaye imyenda yabugenewe akorana akazi, akaba yambaye bage mu ijosi rye, akaba arimo arasuzuma umubyeyi umwicaye imbere. Bigaragara ko hari indwara arimo ashaka gupima.

Umwana w'umukobwa ubona uboshye imisatsi, ari gukaraba intoki kuri rubine akoresheje isabune ndetse n'amazi meza, aho ubona ko ari umuco mwiza.

Ni mu cyumba kicayemo umubyeyi ukikiye, akana uyu mwana ari guhabwa umuti na muganga, uyu muganga akaba ari umudamu wambaye itaburiya y'umweru.

Abana batandukanye bambaye impuzankano y'ishuri, bari kuri rubine bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune kugirango ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Ibiganza by'umuntu utagaragara mu maso akaba ari kuri rube aho arimo arakaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde umwanda ndetse n'indwara nyinshi ziterwa n'umwanda.

Abantu babiri bari ku ruzi. Umugore n'umugabo. Umugore afite ijerekani, arimo aravoma amazi mu ruzi. Umugabo we arimo ariyogereza igare, ku nkengero z'uruzi.

Umwana usutaraye ari gukaraba intoki kuri rubine. Imbere ya rubine hateretse amabido ari mu ibara ry'umuhondo, ndetse hakaba hari n'indi iri mu ibara ry'ubururu, ifite umufuniko w'umutuku.

Umusore wicaye mu cyumba akaba yifashe mu maso, inyuma ye hari ibishushanyo bihamanitse, uko bigaragara ni uko uyu musore ashobora kuba afite ibibazo bimukomereye.

Umugabo wegamye ku gikuta wambaye imyenda icikaguritse ndetse n'inkweto zicikaguritse, uko bigaragara ashobora kuba ari umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa akaba yaragize ihungabana mu buzima bwe.

Abadamu babiri bicaye imbere y'umukobwa umwe aho bigaragara ko uyu mukobwa ari baganiriza ku kibazo runaka. Umudamu umwe afite ifoto ishushanyijeho ibintu bishoboka rero ko aba bagore bashobora kuba bafite ikibazo cy'ihungabana.

Abana benshi bicaye ahantu ubona ko harimo abakobwa ndetse n'abahungu, muri abo bana hakaba harimo utwana twinshi ubona ko twishimye cyane, kuko turimo turaseka, abandi bana bararangaye.

Ni mu cyumba ubona gicyeye harimo abagore babiri bicyaye bafite imija. Imbere yabo hari umukobwa ubona ko akiri mutoya, mubigaragara nuko uyu mukobwa hari ibintu arimo arabafasha.

Abantu benshi batandukanye bari mu nzu isashemo amakaro hasi, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyamamaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda.

Abana benshi bari hamwe, ubona ko barimo baraseka, harimo abana bambaye imyenda imeze nk'impuzankano, mu by'ukuri aba bana urabona ko bishimye kandi banezerewe.

Abana benshi bahagaze ahantu ubona ko harimo utwana dutoya twambaye nabi ndetse hakaba harimo n'uwambaye ibirenge, harimo akana gafite akabido bisa nkaho kari kagiye kuvoma, bahagaze ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse inyuma yabo hari ikintu cyubatse kimeze nk'igisharagati hakaba hari n'ishyamba.

Umugabo wicaye ahantu hameze nko ku muhanda wambaye imyenda yacikaguritse n'inkweto zacikaguritse, afite ibintu mu ntoki utamenya ibyo aribyo bisa naho uyu mugabo afite ikibazo cy'ihungabana cyangwa afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umubyeyi wicaye ku gatebe aho ari kumwe n'abana be babiri, umwana umwe mutoya akaba amuhetse. Imbere ye hari agasafuriya bisa nk'aho gateretse ku mashyiga, asa nk'aho ari gushigishira agakoma aba bana. Inyuma y'umwana mukuru hari akantu k'agakoresho kari mu ibara ry'icyatsi, umubyeyi yambaye agapfukamunwa ndetse arimo araseka.

Umugore uhagaze ubona ko akeye, akaba yambaye ikote ry'ubururu agapira gafite amabara y'umutuku, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo agira ati umufatanyabikorwa mu ngeri y'ubuzima.

Umukecuru ukuze cyane ubona ko yicaye hagati y'abana benshi, uko bigaragara rero birasa nk'aho uyu mukecuru arimo araganiriza bano bana, ababwira udukuru twinshi dusekeje ndetse anabacira n'imigani.

Umukecuru wicaye ku muhanda, ubona ko uyu mukecuru ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se akaba yarahuye n'ihungabana, kuko yambaye inshabari.

Umubyeyi bigaragara ko acyeye cyane akaba ateruye akana ke kakiri gatoya ,mu by'ukuri urabona ko uyu mubyeyi yishimye bikaba bigaragarira mu buryo ari kureba aka kana, ndetse aka kana nako karishimye cyane.

Umwana wumuhungu wicaye mucyumba cyijimye ndetse bigaragara ko uyu mwana yambaye ubusa, bisa nkaho ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana cyangwa se yaragize ikibazo mu mutwe mu bijyanye n'imitekerereze ye.

Abantu benshi bari mu cyumba bagiye batandukanye bari mu ngeri zigiye zitandukanye, inyuma yabo hari akapa kariho ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima bw'abana, ku gikuta hamanitseho ifoto y'umuntu.

Umugabo wicaye hasi wambaye amapingu ubona imbere ye hari ukuboko k'umuntu kurimo kuramuhereza amafoto kuyashyira ku myenda ye, inyuma ye hari amaguru y'abantu bagiye batandukanye ariko ndikubona harimo umwe wambaye impuzankano ya polisi.

Ababyeyi babiri umubyeyi umweba akaba ateruye umwana, umubyeyi wundi wambaye umupira w'umweru akaba afite udukoresho twifashishwa bapima amaraso ndetse n'ibindi bintu kugira ngo babashe kureba ikibyihishemo, aba babyeyi bombi bakaba bari kureba ku gapimisho kugira ngo barebe ikizami cyavuyemo.

Umugore n'umugabo bicaye imbere y'ibyapa byamamaza, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, imbere yabo hari mikorofone ndetse ku meza hateretse amazi ari mu ducupa.

Abantu batandukanye bicaye umugore umwe akaba afite mikorofone mu ntoki, bigaragara ko hari ikintu arimo aravuga, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse na kompiyuta.

Umugore wicaye ku ntebe y'urubaho ubona ko asa n'uwigunze, akaba yicaye ahantu hari idirishya rikinguye, mu by'ukuri mu bigaragara ni uko uyu mugore ashobora kuba afite ibibazo bikomeye.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba, imbere yabo hakaba hari undi muntu wambaye ikote ndetse n'agapira k'umweru watebeje bisa nkaho hari ikiganiro runaka cy'ingenzi arimo areba, inyuma ye hari abandi bantu bahicaye ndetse abo bantu imbere yabo ku meza hagiye hateretse amakayi ndetse hari n'uwo hateretse agacupa ndetse na telefone ngendanwa.

Umugore wambaye akajire k'umuhondo, akaba arimo araseka, inyuma ye hari etajeri, irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibirungo ndetse n'ibindi byifashishwa mu gutegura amafunguro.

Umugabo w'umuzungu uhagaze imbere y'icyapa kiriho amagambo amenyesha ibitaro bikuru bizwi mu gihugu cy'u Rwanda byita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe bizwi nka karayesi i ndera.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ubona ko arimo arisetsa mubyukuri umwitegereje neza, ushobora gusanga uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa afite ihungabana runaka.

Umugabo ubona ko yambaye ikote ndetse yambaye kositimu nziza cyane, akaba ari ahantu hasa nk'aho hari abantu yunamiye, inyuma ye hari icyapa kiba cyanditseho abantu b'inzirakarengane bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, yari yazanye indabyo aho yaje kubibuka.

Abantu benshi bicaye mu cyumba imbere hakaba hari umugore wambaye ikanzu y'umweru ndetse akaba yambaye na badge mu ijosi imbere ye hakaba hateretse uducupa turimo amazi.

Ni mu nzu hicayemo umugabo ndetse n’umugore. Biragaragara ko umugabo hari ibintu arimo arandika, imbere yabo ku meza hateretse igicupa kirekire cy’amazi.

Umwana w'umukobwa wicaye mu ntebe y'urubaho, ubona ko yambaye impuzankano y'ishuri, imbere ye hari ameza. Uyu mwana akaba afite akantu mu ntoki kameze nka biswi arimo aratamira.

Abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo n'abagore, harimo abandi bambaye impuzankano, umurongo w'imbere wicaye ku ntebe, abandi b'inyuma barahagaze, inyuma yabo hari icyapa cyamamaza ikigo kitari kugaragara neza.

Ni umuntu w'umugabo wegamye ku gikuta kenda gusa umweru, akaba yambaye ishati ikoze mu gitenge ndetse bisa nkaho yambaye ishapure mu ijosi, biragaragara ko byamucanze kuko yegamye ku gikuta arimo arareba hejuru.

Aha ni ku ivuriro harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha umuganga, cyane cyane iyo ari umuganga ushinzwe kureba ibijyanye n'indwara zifata amenyo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga bavura ibyerekeranye n'ubuvuzi bw'amenyo, iyi ni intebe umurwayi aryamamo ubundi umuganga agakoresha bino bikoresho areba ikibazo amenyo ye afite.

Umugabo wasamye akaba afite akadodo mu ntoki ako kadodo akaba yagacishije mu menyo arimo arakurura, ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa n'abaganga bafite inshingano zo kwita ku menyo y'abantu barwaye.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi, umurwayi akaba yasamye yashyize agatoki ku menyo, umuganga afite igikoresho cyabugenewe yifashisha asuzuma amenyo niba ari mazima cyangwa se afite ikibazo.

Umuntu wasamye ufite agakoresho kabugenewe mu ntoki ze, aka kakaba ari agakoresho gashyirwa mu menyo kuko n'ubundi gateye nk'amenyo, kakaba kayafasha kuyarinda ibibazo bitandukanye harimo n'uburwayi.

Umusore n'umukobwa mwiza bambaye imyenda y'umweru ubona ko bose bari kwerekana amenyo bitewe n'uburyo asa neza; ubanza barahawe inama yo kujya bakoresha umuti w'amenyo kugira ngo birinde indwara zitandukanye zifata amenyo.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba afite ibikoresho byabugenewe, aho ari gusuzuma amenyo cyangwa se ari kureba ikibazo amenyo y'yu mwana afite.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse n udukoresho twabugenewe, ari kumwe n'umwunganira barimo barafasha umurwayi kumukura iryinyoni mu zengerereje.

Ni kwa muganga Aho hari umurwayi wicaye ku gatebe kabugenewe, asa naho aryamye agaramye umuganga arimo aramusuzuma amenyo kugira ngo arebe ikibazo amenyo ye yaba afite.

Igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu. Iki akaba ari igishushanyo cyifashishwa n'abarimu bigisha abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Isura y'umukobwa mwiza cyane, ndetse n'umukobwa urimo araseka yatunze intoki ze ebyiri ku menyo ye, bisa naho ari kugaragaza uburyo amenyo ye yera de.

Aha ni kwa muganga, hari abaganga babiri umusore n'umukobwa bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, barimo barasuzuma umwana kugira ngo barebe niba ntakibazo cy'amenyo afite.

Umusore w'imibiri yombi, aho mu biganza bye afitemo akadodo akaba arimo aragacisha mu menyo, aka kadodo akaba ari kugacisha mu menyo kugira ngo akuremo ibiryo biba byahagamye mu menyo, afite amenyo meza y'imyeru bisa nkaho akurikiza inama ahabwa na muganga w'amenyo.

Aha ndi ku ivuriro, ni kimwe mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha umuganga gupima neza umurwayi w'amenyo kuko bimworohereza kubasha kureba mu menyo niba harimo ikibazo.

Aha ni ku ishuri, imbere y'ikibaho hahagaze umugabo ndetse n'umugore, ndetse kandi hagaze n'undi mumama w'umuzungu, imbere yabo hari umwarimu ufashe umwana urimo aramwereka igishushanyo kirimo amenyo umuntu agira.

Abana b'abanyeshuri bigaragara ko biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza aho bari kumwe n'umwarimu wabo, bakaba bahawe korogate ndetse n'uburoso bwo koza amenyo kugira birinde indwara zifata amenyo.

Umusore ubona ko akeye cyane, akaba afite agasura kameze neza, yambaye ubusa hejuru, afite ubwanwa bukeya ubona ko buringaniye, mu ntoki ze afashe akadodo ari kugacisha mu menyo, ubu bukaba ari uburyo bwiza muganga agira inama mo abantu kugira ngo barinde amenyo yabo indwara zigiye zitandukanye.

Abana benshi bari hamwe, bafite uburoso, bari kwiboroza. Buri mwana afite agakombe karimo amazi, kugira ngo bimufashe koza amenyo neza, bimurinde indwara zifata amenyo.

Umusore uri kumwe n'umuganga aho umuganga arimo aramufasha ku kibazo afite cy'amenyo hari agakoresho kabugenewe umuganga agiye gukoza mu menyo kugira ngo arebe uko iki kibazo giteye.

Igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu yose, iki kikaba ari igishushanyo cyifashishwa n'abarimu bigisha abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'uburyo bashobora kwita ku menyo yagize ikibazo.

Kuborosa amenyo buri munsi ni ingenzi kuko bifasha umuntu kudahura n'indwara z'amenyo, uyu mukobwa rero nawe akaba arimo aroza amenyo ye akoresheje umuti n'uburoso byabugenewe kugira ngo yirinde indwara zifata amenyo.

Ni umusore ubona ko akeye akaba asa inzobe, afite ubwanwa bwogoshe neza ndetse yambaye ubusa hejuru, mu biganza bye byombi afitemo akadodo, aka kadodo akaba ari ko yifashisha acisha mu menyo ye kugira ngo akuremo imyanda; ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kwita ku menyo no kuyarinda ibibazo bigiye bitandukanye.

Abaganga b'abagabo babiri umwe akaba yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa ndetse n'amarinete, undi akaba yambaye itaburiya isa ubururu. Bakaba bari gufasha umuganga, bamukura iryinyo cyangwa se bapima niba iryinyo rye ridafite ikibazo.

Umugabo wicaye ku ntebe y'icyatsi akaba yambaye itaburiya y'akazi akora, nk'uko bigaragara akaba ari umuganga ushinzwe kwita ku bibazo by'amenyo no gusuzuma ibigendanye n'amenyo.

Abagore batatu ubona ko bakuze umwe wo hagati akaba afite telefone ngendanwa mu ntoki aho ubona bose bayirangariyemo bakaba basa nk'aho hari ikintu bari kureba imbere yabo hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'umweru.

Umusaza ubona ko akuze cyane, aho imvi ari uruyenzi, akaba ari hamwe n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, ubona ko ari umuryango wishimye, barishimye cyane rwose nk'uko bigaragara bose barimo baraseka, inyuma yabo hari ibiti byinshi bihari.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko bakuze, umusaza yicaye mu ntebe afite igikombe arimo aranywa amazi, ibigaragara nuko uyu mukecuru ari kugerageza kwita ku musaza we, bakarushaho kwishima.

Umusaza uri hagati y'umugore ndetse n'umugabo ubona ko bano bombi barimo bamufasha guhaguruka ku gitanda kubera ko uyu musaza nta mbaraga agifite zihagije.

Umugabo n'umugore ubona ko bakuze, aho bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, bakaba bose bambaye isaha ku kuboko kwabo kw'imoso ubona ko bishimye bari guseka ndetse bari gukora siporo kandi banezerewe.

Umukecuru usa n'ukuze, urimo uragenda acunga akantu, inyuma ye ari kumwe n'umukobwa, bigaragara ko ari umukobwa umwitaho, kugira ngo akurikirane ubuzima bwe bwa buri munsi.

Umusaza ubona ko akuze bihagije, yicaranye n'umudamu ku meza barimo barasangira ifunguro. mu by'ukuri biragaragara ko bishimye kuko umusaza arimo araseka cyane.

Umukecuru n'umusaza ubona bicaye, ku meza hariho impapuro nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu musaza n'uyu mukecuru bakaba bafite urupapuro rumwe barimo barasoma. Umusaza afite telefone ngendanwa mu ntoki.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bicaye mu itente, hari umugore urimo aragenda abaha utuntu agiye afite mu ntoki nk'uko bigaragara rero uyu mugore ni we ufite inshingano zo kuba seriva.

Abantu ubona ko bakuze bakaba bari mu murima umeze nk'aho ari umurima w'icyayi, aho barimo barasoroma bashyira mu gitete kiri inyuma yabo, urabona ko aba babyeyi rwose bishimye.

Umukecuru n'umusaza bicaye, umusaza ufite agacupa k'umuti ari kwereka umukecuru. Imbere yabo hateretse iyindi miti urupapuro na terefone ndetse imbere y'umukecuru hari imashini arimo aragenda akoramo.

Umusaza ubona ko akuze cyane, arimo arakora siporo. Yambaye ekuteri mu matwi n'amarinete ndetse imvi ni uruyenzi.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bakuze cyane, bakaba bicaye mu rugo, ku meza hariho agakombe karimo amazi, umusaza afite agacupa karimo ibinini, umukecuru hari agapapuro arimo arereka umusaza.

Ababyeyi babiri ubona ko bari mu muhanda, bisa n'aho barimo bakora siporo. Inyuma y'uko bamaze kugirwa inama n'abaganga yuko gukora siporo ari ingenzi mu buzima bwabo.

Umugore usa n'ukuze wicaye mu rugo iwe wambaye umwenda w'umuhondo akaba ari gufata imiti yandikiwe na muganga kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumererwa neza.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho hari umusaza ubona ko akuze cyane, akaba ari gufatwa ibizamini n'umuganga w'umukobwa umuri imbere, aho ku meza hateretse agakoresho kabugenewe gasuzuma umutima n'umuvuduko.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku meza barimo barasangira. Inyuma yabo hakaba hari umuganga ushinzwe kubakurikirana kugirango amenye uburyo ubuzima bwabo buhagaze.

Abamama benshi ndetse n'abagabo batatu bari mu murima usa naho hari ibintu bihinzemo, ubona ko bishimye bamanitse amaboko ndetse abenshi muri bo barimo baraseka.

Umukecuru ubona ko akuze akaba ari hamwe n'umuganga ushinzwe kumwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi, urabona ko bamerewe neza aho bose bari guseka akamwenyu ari kose.

Umusaza ubona ko akuze cyane ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumukurikirana yicaye ku ntebe, imbere ku meza hariho imbuto nyinshi zigiye zitandukanye ndetse umuganga arimo aramusukira icyo kunywa.

Umukecuru wicaye mu kagare ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumwitaho, hano arimo aramufata ibizamini, kugirango arebe uko ubuzima bwe bumeze.

Umusaza ubona ko akuze cyane wicaye mu kagare, inyuma hakaba hari umumama urimo ugenda amusunika, ubona ko bishimye ubanza hari ibintu byiza barimo baraganira.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru ubona ko akuze uyu akaba ari umuganga umukurikirana kugira ngo amenye uko ubuzima bw'uyu mukecuru buhagaze buri munsi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ubona ko ageze mu za bukuru akaba ari kumwe n'umukobwa ugaragara nk'umuzungu umufashe akaboko, mu by'ukuri rero uyu mukobwa akaba ariwe uri kwita kuri uyu musaza kugira ngo amufashe gutuma ubuzima bwe bugumya kumererwa neza.

Umugabo ubona ko akuze, ari kumwe n'umwari ukiri mutoya, amufashe ku rutugu, ndetse yamushyizeho n'itama. Ubungubu bukaba ari uburyo bwo kwita ku bantu bageze mu gihe cy'izabukuru.

Umukecuru uri kumwe n'umukobwa uri kumwitaho ubona ko bombi bishimye barimo baraseka uyu mukecuru imvi zikaba ari uruyenzi ndetse umukobwa yafunze umusatsi we neza cyane.

Ahantu hameze nko mu isoko, aho hicaye abadamu bagera muri batanu, imbere yabo hakaba hari ibitete birimo inyanya, basa nkaho baje kubicuruza, inyuma hari akantu kameze nkaho ari agatajeri, karimo n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Umukecuru bigaragara ko ari mu zabukuru, akaba afite imvi ku mutwe, aricaye mu kagare, ndetse iruhande rwe hakaba hari umwana w'umukobwa, bisa nkaho uyu mwana w'umukobwa afite inshingano mu kwita kuri uyu mukecuru, bicaye ahantu mu nzu.

Umusaza ubona ko ari mu zabukuru ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumukurikirana kugira ngo amenye uko ubuzima bw'uyu musaza buhagaze buri munsi, akaba hano arimo aganira na we amubwira uburyo ubuzima bwe buhagaze.

Ni mu nzu ubona ko ikiyeye harimo abakecuru n'abasaza. Umukecuru umwe ugaragara nk'ukuze cyane yicaye ku gatebe arimo arasunikwa n'umuntu wa hafi ushinzwe kumwitaho. Byanga byakunda uyu ni umuganga ukurikirana ubuzima bwe.

Umuntu ubona ko akuze arimo arikinira umukino umufasha kuruhura mu mutwe, ubu bukaba ari uburyo bwiza yagiriwe na muganga kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umukecuru wicaye ahantu bisa nkaho ari mu rugo, iruhande rwe hakaba hari amashyiga ateretseho isafuriya ipfundikije indi, uyu mukecuru arimo arateka ibyo kurya, ndetse aho hantu yicaye hari ibihuru byinshi bihari, ndetse iruhande rwe hari ibindi bintu arimo aracanisha.

Umukecuru bigaragara ko akuze, akaba ari kumwe n'umuganga w'umuzungu ushinzwe kumwitaho. Yamuhaye akantu kameze nka bande kareguka, aho umukecuru ari kugenda akurura akora imyitozo ngororamubiri. Uyu muganga akaba ashinzwe, gukurikirana ubuzima bw'uyu mukecuru bwa buri munsi.

Umuforomokazi wambaye impuzankano akaba yicaye, imbere ye hari umuntu uri mu za bukuru arimo arafatira ibizamini kugira ngo amenye uburyo ubuzima bwe buhagaze.

Umusaza ubona ko akuze ndetse akaba yicaye mu kagare, ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumukurikirana buri munsi kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Umugabo uri kumwe na muganga ubona ko yishimye kuko afite akamwenyu mu maso ye nkuko bigaragara, imbere ye hari ibintu biteretse ku meza arimo aragenda akoraho.

Umusaza ubona ko akuze akaba ari kumwe n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya, aho ari kugerageza kumufasha mu buryo bwo kumwitaho kugira ngo amenye imibereho ye ya buri munsi.

Abantu batandukanye bicaye bari ku murongo, imbere yabo hari umugabo umeze nk'umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe, bisa nkaho arimo arasuzuma bano abantu icyorezo.

Abantu batandatu bicaye imbere y'abandi bantu bisa nkaho bari mu nama, muri abo bantu hakaba harimo umugabo umwe w'umuzungu ndetse hari abandi bantu basa nkaho baje mu nama bakurikiye abogabo ibyo bari kubabwira, inyuma y'abantu bari imbere y'abandi hari amashusho y'abantu ari imbere bisa nkaho bayashyize kuri porojegiteri.

Abantu benshi batandukanye bari mu ngeri zigiye zitandukanye, hakaba harimo umugore umwe w'umuzungu bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho amagambo atandukanye harimo ngo hehe n'igwingira twita ku mubyeyi utwite.

Umugabo uri kumwe n'abamansera batatu, akaba ari gusuhuza umwe mu bamansera, bakaba bahagaze imbere y'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho repubulika y'u Rwanda, minisiteri y'ubuzima.

Abantu bitabiriye inama imbere yabo hari abayoboye inama aho bari kubabwira ku buryo bwo kwirinda no gukumira indwara ya sida ikomeje kugariza abantu benshi batandukanye.

Abantu benshi bagiye batandukanye bafatanye urunana bambaye impuzankano; bafite ibyapa byanditseho ngo "twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira".

uUmuganga afatanyije n'umuforomokazi umwunganira mu kazi barimo barafata ibizamini abaturage batandukanye kugira ngo babapime indwara runaka.

Icyapa kiri mu mabara yenda gusa ubururu amagambo akaba yandikishije mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba handitseho amagambo agira ati twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Abantu benshi bicaye mucyumba urabona ko ku ntebe yimbere yicaye abagabo bambaye amakoti ndetse n'abagore beza cyane inyuma yabo hari abandi benshi basa nabahagaze.

Mu bitaro byinshi bigiye bitanduye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, hagiye harimo abaganga ndetse n'ibikoresho byabugenewe bifashisha bita ku barwayi. Hano hakaba hari abaganga bari mu kazi kabo, aho iruhande rwabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha mu gihe barimo barasuzuma umurwayi.

Abantu bahagaze akaba ari umugore n'umugabo, iruhande rwabo hasa nk'aho hari abandi bantu ariko batagaragara neza, bakaba bafite ibintu bimeze nk'ibyapa byamamaza ibigo bigiye bitandukanye.

Umugore n'umugabo bahagaze ahantu mu cyumba cyiza, inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bafite icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda handitseho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Abagabo babiri bicaye imbere y'abandi babateze amatwi harimo umwe usa n'umuzungu n'undi w'umwirabura aho bari kwigisha abantu babakangurira kwirinda virusi ya maburg.

Abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagore ndetse hakaba harimo n'abagore b'abazungu bahagaze imbere y'icyapa kiranga ko umugore nawe yaba umuyobozi w'ubuzima.

Abaganga babiri bambaye impuzangano z'umweru, ndetse hakaba hari n'abandi bagabo bari kubafasha. Hasi haryamye umuntu usa n'aho afite ikibazo abangaba rero bakaba bari kugerageza kumugarura mu buzima.

Abantu benshi bicaye ahantu hameze nko mu cyumba cy'inama, basa n'aho bakurikiye umuntu uri imbere uri kugira icyo ababwira. Ni abagabo ndetse n'abagore ubona ko bambaye neza cyane kandi bateze amatwi.

Icyapa kiriho amategeko n'amabwiriza abantu bagomba gukurikiza kugira ngo birinde indwara ya kanseri, iyi akaba ari indwara mbi kandi ihitana abantu benshi ku isi.

Abantu bari mu cyumba cy'inama aho bigaragara ko bakurikiye abari imbere yabo barimo barabayobora. Muri abo bari kuyobora ikiganiro harimo umugore umwe w'umuzungu. Inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Ni mu cyumba cy'inama, abantu bitabiriye inama ni benshi, imbere hari itorero ririmo rirabyina, hari abakobwa beza cyane rwose bateze amaboko barimo babyinira umunsi mukuru wahariwe kurwanya icyorezo cya virusi itera sida.

Umukobwa w'umuganga wambaye agapfukamunwa akaba arimo arakingira umubyeyi wicaye ku ntebe, inyuma y'uwo mubyeyi hari undi muntu uri kureba uko icyo gikorwa kiri kugenda.

Umukecuru ubona ko akuze cyane, uruhu rwe rukaba rwarajeho iminkanyari akaba yambaye ingofero y'umutuku. Ku jisho rye ry'iburyo hariho igipfuko bisa nkaho iri jisho ryagize ikibazo, hanyuma abaganga bagashyiraho igipfuko.

Umugabo uhagaze imbere bisa nkaho hari ijambo arimo aratambutsa abwira abaje bamukurikiye, iruhande rwe hari ibintu byinshi bitandukanye kamera ndetse hirya hari icyapa kiriho ishusho ye gisa nkaho kirimo cyerekana ayo mashusho.

Abaforomo babiri bambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki bakaba batagaragara neza mu maso yabo, birasa nkaho bari mu cyumba kirimo umurwayi aho barimo baragerageza kumwitaho, hari agakoresho uyu muganga umwe afite bigaragara ko hari umurwayi barimo baritaho.

Aha ni mu ivuriro, aho hari abaganga bagiye batandukanye barimo bakora inshingano zabo, ku gatanda haryamye umurwayi bano baganga barimo baritaho.

Abantu batandukanye bari mu cyumba, bisa nk'aho buri muntu afite akantu yahawe, wagira ngo ni impamyabumenyi. Inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirango cy'ikigo kitagaragara neza.

Umugabo wambaye akajire, imbere ye hakaba hari undi mugabo wambaye umwenda wenda gusa ubururu n'agapfukamunwa, akaba arimo araterwa urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Aha ni kwa muganga hari umukobwa wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari umwana uri mu munzani aho barimo barapima ibiro bye kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Umusore bigaragara ko ari umuganga akaba yambaye itabuririya y'umweru, yicaye ku gatebe kabugenewe aho ari mu ivuriro. Iruhande rwe hari udukoresho twabugenewe twicazwaho ndetse tukaryamishwaho umurwayi mu gihe umuganga arimo aramupima. Hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bihari, hari n'akameze nka televiziyo.

Umudamu uhetse umwana akaba ahagaze imbere y'umuryango w'ivuriro rya Kigina. Mu byukuri bigaragara yuko, uyu mudamu ashobora kuba aje gusuzumisha umwana we.

Inzu ubona ko yubatswe mu buryo buteye imbere ahangaha mu imbere hakaba harimo umuntu umeze nk'umuforomokazi nk'uko bigaragara iyi ni inzu itanga serivisi zo kuvura abantu.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho harimo icyuma cyabugenewe cy'ikoranabuhanga, gifasha umuganga gusuzuma umurwayi kugira ngo amenye indwara arwaye ya nyayo.

Inzu nziza cyane isize irangi ry'umweru ikaba yometseho amatafari ahiye, imbere yayo hari jaride nziza cyane iyi nzu akaba ari ikigo nderabuzima cya Bwirere.

Aha ni kwa muganga aho hari ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga bapima umurwayi kugira ngo bamenye indwara afite hari umuganga urimo aragerageza kubikoresha.

Aha ni kwa muganga iki ni icyumba cyo kwa muganga, aho kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga, mu gihe barimo barasuzuma abarwayi babo kugira ngo barebe indwara barwaye.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa na muganga mu gihe arimo arasuzuma umurwayi indwara zigiye zitandukanye.

Ni kwa muganga. Ni icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu gihe barimo barapima abarwayi kugira ngo babashe kumenya indwara zitandukanye bagiye bafite.

Ni mu nzu ubona ko ari inzu nziza isize amarange y'umuhondo. Harimo intebe nziza zigezweho ndetse imbere hakaba hari ameza akikijwe n'intebe basa n'ayo baririraho. Imbere hejuru ku kabati hari televiziyo bifashisha bareba amakuru ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ni mu cyumba cy'ivuriro aho harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa n'umuganga mu gihe arimo arapima indwara zitandukanye umurwayi waje amugana.

Inzu ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, ndetse ikaba yomekeshejwe amatafari ahiye. Imbere yayo hari umugabo urimo ugenda, iyi nzu akaba ari inzu y'ababyeyi, izwi nka materinete.

Abantu batandukanye bari imbere y'inzu umwe akaba yicaye ku ntebe, iyi nzu ikaba ari ikigo nderabuzima cya Gishweru gikorerwamo serivisi zo kwakira abarwayi no kubitaho.

Aha ni ku ivuriro, iki ni icyumba kimwe cyo kwa muganga kirimo umugore w'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, akaba yafunguye igikoresho cyabugenewe gifurirwamo imyenda yanduye.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga aho harimo ibikoresho by'ibanze bikoreshwa bigiye bitandukanye. Harimo agatebe ndetse hakabamo n'akandi gakoresho kifashishwa haryamaho umurwayi kugira ngo umuganga amusuzume ikibazo afite.

Ni kwa muganga, aho hari abantu b'abakozi bambaye impuzankano ubona ko bose bashyize umutima hamwe, bigaragara ko hari ikintu cy'ingenzi barimo bakoraho.

Ni mucyumba kirimo umurwayi w'umumama uryamye ku gitanda cy'abarwayi. Iruhande rwe hari umuganga urimo uragerageza kumwitaho amufata ibizamini kugira ngo amenye neza indwara arwaye.

IIcyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byiza byabugenewe biryamishwaho abarwayi, mu gihe umuganga arimo arita ku murwayi. ni byiza rero nawe ko wahagana ubaye ufite ikibazo cy'ubuzima.

Aha ni kwa muganga, iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, hari umugabo uryamye ku gakoresho kabugenewe, bigaragara y'uko hari indwara arimo arasuzumwa.

Inzu ya etage ikaba ikoreramo ivuriro, aho imbere yaho hari abantu benshi batandukanye bambaye impuzankano. Hanze inyuma y'igipangu hamanitseho icyapa, ndetse imbere y'icyo cyapa hari ho imodoka.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga, aho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, byifashishwa na muganga mu gihe arimo arasuzuma umurwayi.

Inzu ya etaje ibingibi bikaba ari ibitaro, imbere yaho haparitse imodoka nyinshi, ibi bitaro rero bikaba byifashishwa mu kwakira abarwayi no kubaha serivisi zijyanye n'ubuzima.

Ibi ni ibitaro bya Gihundwe aho ubona ko bivura amaso, bikaba byubakishije amatafari ahiye ndetse bikaba bisakaje amabati yenda gusa ubururu, imbere yaho hari indabyo nziza cyane.

Aha ni kwa muganga, iki ni kimwe mu cyumba kigize ibitaro byiri vuriro hakaba harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu gihe barimo barakora inshingano zabo.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, ni mu nzu nziza cyane hasi ubona harimo amakaro, imbere hari udusanduku tuhateretse bisa nkaho harimo imiti yifashishwa n'abaganga.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako y'ikigo k'igihugu gishinzwe gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti, ikoreshwa mu mavuriro kugira ngo harebwe niba nta ngaruka iyo miti ishobora kugira ku buzima bwa muntu.

Ivuriro riri mu mabara y'ubururu bwijimye imbere y'ivuriro hari imodoka n'abantu bahagaze mubyukuri rero iri ni ivuriro ryakira abantu b'ingeri zitandukanye kugira ngo ribahe serivisi z'ubuganga.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge biri mu ibara ry'umweru, imbere y'ibyo bitaro hateye utwatsi ubona ko tumeze neza ndetse hari umuhanda urimo amapave.

Iki ni icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa n'abaganga bapima umurwayi, kugira ngo bamenye indwara arwaye. Iki cyuma bakiryamishamo umurwayi kikabasha kumenya indwara afite.

Umukobwa waje kwa muganga akaba arimo araganira n'umuforomokazi. Mu by'ukuri inyuma y'umuforomokazi hari undi muntu umufasha. Witegereje neza, urabona ibiganiro hagati yabo birimo biragenda neza.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, aho ubona hari icyapa kiriho uburyo bakora, imbere y'umuryango haparitse imodoka ndetse hari n'abantu basa n'abari kuza muri ibyo bitaro. Ku nyubako imwe hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino mu rwanda hagiye harimo ibikoresho byabugenewe hano harimo agatanda kabugenewe kifashishwa haryamishwaho umurwayi kugira ngo muganga amusuzume neza, imbere yako hari akantu kameze nk'agatajeri aho harimo utubati twinshi tugiye dutandukanye.

Ahantu hameze nko mu bitaro, hakaba hari abarwayi babiri baharyamye, bakaba baryamye ku dutanda twiza twabugenewe turyamishwaho abarwayi, buri murwayi akaba yambaye agapfukamunwa ndetse akaba afite n'umuganga urimo aragerageza kumwitaho kugira ngo amufashe kumuvura ikibazo yaba afite icyo ari cyo cyose .

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, aho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye. Harimo agatanda kabugenewe, karyamishwaho umurwayi, mu gihe ari kwitabwaho na muganga.

Uru ni urukuta rwubakishije amatafari ahiye, iruhande rwarwo hakaba hari ibyicungo abana bajyaho bashaka kurya umunyenga, ibyo byicungo bikaba biteyeho ibiti by'ibyuma ndetse hasi yabyo hakaba hari ibyatsi bitoshye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere akaba ari etaje. Iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zo kuvura abantu, munsi y' inyubako haparitse imodoka ndetse akayira kajyayo urabona ko gasimase bisa nkaho karimo amapave, imbere yayo hateye ibiti by'imikindo.

Inzu ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, ku muryango wayo hariho ibirahuri, hejuru ku gisenge hariho icyapa, bigaragara ko iyi nzu ari farumasi ikorera i Kanombe.

Icyumba cyo kwa muganga kimeze neza, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu gupima abarwayi indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako ubona ko ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho. Imbere yayo hakaba hari jaride nziza cyane, ubona ko hateye n’amapoto afite amatara. Mu bigaragara rero, iyi nyubako ikaba ikorerwamo serivisi z’ivuriro.

Inyubako ubona ko yubatswe mu buryo bwa kijyambere ikaba ari itaje, hasi hari ama esikariye ndetse hari n'umuryango ufunguye, ukaba ubona ko ari farumasi icururizwamo imiti igiye itandukanye.

Iyi ni inzu ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya siporo, mu rwego rwo gufasha abantu kugira ubuzima bwiza ndetse ubuzima buzira amavunane.

Ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse ikaba ari etaje, imbere y'umuryango hari abantu benshi bahahagaze imbere yabo hari imodoka zihaparitse, hejuru yabo gato hari icyapa cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Icyumba kimwe cyo kwa muganga kiri mu ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, aho twavuga nk'icyuma gisakaza amashusho, ndetse harimo n'izindi ntebe z'ikoranabuhanga zifashishwa na muganga asuzuma umurwayi.

Ni ahantu ubona ko hari ivuriro ryubatse mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho, rikaba ryubatse mu buryo bwa etaje, hari ibiti biteye imbere y'iryo vuriro bikaba bitanga akayaga, imbere ku muryango cyangwa se kuri porotaye hari icyapa cyanditseho ngo Nyanza hospito.

Abaganga benshi ubona ko bambaye impuzankano iri mu mataburiya y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bakaba bari mu ivuriro, aho hari ibintu runaka ubona barimo bigaho, ubona ko bose bitonze kuko hari ibintu by'ingenzi barimo bakora.

Ivuriro ririmo inzu nyinshi zitandukanye zikaba ari inzu zifashishwa n'abaganga mu kwakira abarwayi ndetse imbere y'izo nzu hari jaride nziza cyane ifasha abarwayi kubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Abantu ubona ko bakeye bahagaze imbere ya raboratwari ishinzwe gupima ibizamini, kugira ngo ibashe guha ibisubizo byizewe abarwayi.

Ni kwa muganga ubona ko hari abantu benshi, yaba abarwayi ndetse n'ababitaho ari bo abaganga, ni ahantu heza cyane ubona ko mu nzu hasi hashashemo amakaro.

Aha ni kwa muganga aho harimo igikoresho kizwi nka mikorosikopi cyifashishwa n'abaganga barimo bareba amaraso y'umuntu kugira ngo bamenye indwara iyarimo.

Inzu iri mu mabara y'umweru hasi hasashe amakaro, hari ivaze iteyemo ururabyo ndetse iyi nzu mubyukuri rwose ni ivuriro.

Iyi ni inyubako ya etage hanze y'iyo nyubako hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye. Iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zo kwita ku bantu no kubavura indwara nyinshi, zigiye zitandukanye.

Inzu nziza ifite igisenge kiri mu mabara y'umuhondo, ibikuta bikaba ari umweru, harimo intebe zigezweho nziza zicarwaho n'umuntu ufite ikibazo, akumva ko amerewe neza.

Aha ni mu cyumba cy'ivuriro, aho harimo umuganga, imbere ye hakaba hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyabugenewe, gifasha uyu muganga gusuzuma umurwayi, akarushaho kumenya indwara arwaye.

Inzu igeretse ubona ko ari inzu yubatswe mu buryo bugezweho, mu gice cyo hasi mu imbere harimo umuganga n'abandi bantu, hasi ku muryango hari abandi bantu bahahagaze mu bigaragara ni uko iringiri ari ivuriro.

Abantu batatu bari mu kayira k'amapave, ubona ko hari inyubako barimo berekezaho, ku ruhande rw'iburyo hari akandi kayira k'amapave, karimo karaturukamo abandi bantu, muri ako gace harimo ibihingwa, ibiti byiza cyane ubona ko bimeze neza.

Ni inzu ikaba ikorerwamo serivisi z'ivuririro, aha hakaba ari kwa muganga aho hari inzu zubatse neza kandi mu buryo bwiza, imbere y'izo nzu hari jaride nziza cyane iteyemo ibiti bitanga akayaga keza gafasha abarwayi guhumeka, iyo nzu cyangwa se izo nyubako zikikijwe n'ibiti byinshi.

Ivuriro ririmo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye aho ari ibikoresho byifashishwa n'umuganga mu gihe ari kugerageza kwita ku murwayi.

Abantu benshi bagiye batandukanye bari imbere y'ikintu cyubakiyeho hariho icyapa cyanditseho ngo butarohosipitao abo bantu hakaba harimo abazungu ndetse n'Abanyafurika batandukanye.

Umugabo uhetse umukobwa ku igare ufite indobo, imbere yabo hakaba hari icyapa kiri kwerekana ikigo nderabuzima cya Gisenyi bigaragara y'uko uyu mukobwa aje kuri icyo kigo nderabuzima.

Inzu nziza iri mu ibara ry'umweru ikaba isakajwe n'amabati yenda kuba icyatsi, imbere yayo hakaba hari umwirasire ukurura izuba, iyi akaba ari inzu y'ababyeyi izwi nka materineti.

Ni muri sare nini bigaragara ko ari sare iberamo inama, ikaba ari sare yubatse mu buryo bugezweho. Iyi sare irimo amabara yenda gusa umuhondo, hakaba harimo intebe zigezweho zicarwaho n'abantu bitabiriye inama ndetse kuri buri ntebe hagiye hariho mikorofone.

Mu mavuriro menshi agiye atandukanye yo mu rwanda harimo ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu gihe barimo baravura abarwayi aha hakaba hari ibitanda byabugenewe abarwayi baryamaho ndetse hakaba hari n'utwumba tugiye dutandukanye hejuru hamanitse ibikoresho bimeze nka televiziyo.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu barimo barakora siporo, iyi nzu rero ushobora kuba wayigana ukikorera siporo kugirango ubuzima bwawe bugende neza.

Aha ngaha ni kwa muganga hari ibitanda biryamishwaho abarwayi bigiye bitandukanye ndetse urabona ko ari ahantu heza cyane kuko hasi harimo amakaro.

Aha ni kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, umuganga yifashisha arimo apima umurwayi kugira ngo arebe uko umubiri we uhagaze.

Aha ni kwa muganga akaba ari mu cyumba kibikwamo amaraso yafatiweho ibizamini ku barwayi, ni ahantu heza cyane ubona ko hari ubwirinzi buhagije ku buryo ibi bipimo bidashobora kwangirika.

Inzu yubatse igeretse, munsi yayo harimo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, imbere yayo harimo iruhande rw'imodoka hakaba hari umugore urimo uragenda, inyuma y'uwo mugore hari abandi bagore barimo baraganira nk'uko bigaragara iri ngiri rikaba ari ivuriro.

Ni kwa muganga aha hakaba ari mu cyumba aho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga ,tukaba turi kubona igitanda kijyanwaho n'umurwayi hirya gato hari akamashini gafasha umuganga mu kureba no kumenya icyo umurwayi arwaye mu idirishya harimo ikirabyo ndetse ukomeje imbere ye hari ubusitani bwiza.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo igikoresho k'ikoranabuhanga cyabugenewe, cyifashishwa na muganga, cyo akoresha apima umurwayi, kugira ngo amenye neza indwara arwaye.

Ahangaha ni kwa muganga uko bigaragara hari abagore babiri umwe akaba ari umuforomokazi undi mugore wambaye imyenda y'umweru akaba ateruye mwana w'uruhinja.

Umugabo uri kumwe n'umuforomokazi, ku buriri hakaba haryamye umwana w'umukobwa usa naho arembye. Uyu muforomokazi akaba ari kumufatira ibizamini bitandukanye.

Inyubako ya etaje, imbere y'inyubako hakaba haparitse imodoka, iyi nyubako ikaba ari farumasi icururizwamo imiti igiye itandukanye ifasha abarwayi kubona umuti kandi ku gihe.

Iri ni ivuriro aho ririmo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga. Ibi bikoresho bikaba bifasha umuganga kubasha gupima umurwayi mu buryo bumworoheye.

Abantu batandukanye bicaye imbere y'inzu harimo umugore ndetse n'umugabo bambaye impuzankano bisa iyo nzu ikaba ari inzu y'ababyeyi izwi ku izina rya materinete.

Ni ivuriro ubona ko ryubatse mu buryo bugezweho ndetse iryo vuriro rikaba ari etage, hejuru harimo abantu bari kumanuka yo ndetse imbere y'iryo vuriro hakaba hari itarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, aho haparitse imodoka ndetse na moto, iryo vuriro rikorukitirijwe n'ibyuma.

Aha hari farumasi ya Iraguha aho harimo abantu baje gushaka serivisi muri iyo farumasi hakaba harimo imiti myinshi igiye itandukanye yifashishwa havurwa indwara nyinshi zitandukanye. Iruhande rw'iyo farumasi haparitse abamotari ndetse hari n'imodoka ihagaragara.

Icyumba kimwe cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga mu buryo bwo guha serivisi nziza kandi zinogeye abarwayi babo.

Aha ni ku gitanda cyo kwa muganga, aho hagaragara umurwayi wicaye, ariko akaba ari hamwe n'umuganga urimo uragerageza kumufatira ibizamini kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Ibitaro bifite inyubako nziza cyane ndetse imbere yabyo hari ubusitani bwiza, muri ubwo busitani hicayemo abantu, ubwo busitani rero bukaba bufasha abarwayi mu kubaha umwuka mwiza wo guhumeka.

Iki ni kimwe mu byumba byo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho umuganga yakirira umurwayi agiye kumufata ibizamini bitandukanye.

Iyi nimwe mu nzu zo kwa muganga aho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha abaganga gusuzuma abarwayi babo mu buryo bwizewe kandi buboroheye.

Iyi ni inyubako nziza yitwa isange wane sitopu senta Remera Rukoma, imbere y'iy'inyubako hari jaride nziza cyane, hakurya yayo hari ikigega gifasha kubabikira amazi.

Abantu benshi bari mu ngeri zigiye zitandukanye abamama, abapapa, abagore, abagabo n'abana, bicaye ndetse bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi izwi nka materinete.

Aha ni mu bitaro kwa muganga aho harimo udutanda twinshi tugezweho ndetse hejuru ya buri gatanda hagiye hariho supanete hahagazemo kandi umuforomokazi wita ku barwayi.

Abagabo babiri bapfukamye mu kibuga, hagati yabo harimo umukinnyi usa nkaho yagize ikibazo, bano bagabo rero bari kumubaza ikibazo yagize kugira ngo bagire icyo bamufasha.

Ni inzu irimo abana b'urubyiruko bagiye batandukanye hasi hari umuntu uryamye ku kintu gifite ibara ry'ubururu baziritse amaguru, byanga byakunda uyu muntu bano barimo baramufasha bitewe n'ikibazo runaka yagize.

Icyapa kiriho amashusho y'abantu babiri barimo barakina umukino wo kurwana, munsi hakaba handitseho amagambo agira ati Rwanda Judo federetion, uyu akaba ari umukino witabirwa n'abantu, aho bakina imikino yerekeranye n'indwano njyarugamba.

Umuntu utagaragara neza mu maso akaba yambaye agapira k'umukara gacishijemo uturongo tw'umweru, biragaragara ko ari umurwayi, aho iruhande rwe hari umuganga ushinzwe kumwitaho. Yamuhaye agakoresho bifashisha bakora siporo ngororamubiri mu kaboko ke k'imoso, akaba arimo agerageza kugaterura ngo yumve arushijeho kumererwa neza.

Ahantu hameze nko muri sare hatatsemo ibitambaro by'amabara agiye atandukanye ndetse harimo n'intebe zitandukanye, hakaba harimo umumansera munsi ye hakaba hicayemo akana gatoya imbere yako kana hakaba hari umumama w'umuzungu, bisa nkaho aba ngaba bose barimo bita kuri uyu mwana kugira ngo arusheho kwishima.

Ni mu cyumba kwa muganga aho harimo umuforomokazi wambaye impuzankano, uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, imbere ye ku meza hateretse ibitabo ndetse n'imashini.

Akaboko k'umuntu gafashe ijagi ikoze mu kirahure karimo karasuka amazi mu gikombe cy'ikirahure. Mu bigaragara ni uko uyu muntu ashaka kunywa aya mazi.

Umusore ubona ko akora siporo afashe ikizwi nk'igurudu arimo aranywa amazi, mubigaragara ni uko uyu musore yarari gukora siporo akaba ari kunywa amazi kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Agakoresho karimo imipira y'imikino igiye itandukanye, harimo umupira bakina wa basikete, hakabamo umupira wa futuboro ndetse hakabamo n'umupira bakina wa tenisi.

Ibikapu bibiri by'umutuku, igikapu kimwe kirafunze ikindi gikapu kirafunguye, kikaba kirimo imiti yifashishwa n'abantu bakora siporo, cyane cyane akaba ari imwe mu miti ikoreshwa n'abaganga, bafite mu nshingano kwita ku bakinnyi bagize ikibazo.

Umukobwa wambaye imyenda bakorana siporo akaba afite agacupa k'amazi ari mo aranywa mu bigaragara n'uko uyu mukobwa avuye gukora siporo.

Umugabo wicaye kumeza bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo ku maguru ye yombi imbereye hari umugabo urimo uramufasha amupfukira ya maguru.

Ni mu cyumba ubona ko gisa neza, harimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa n'abaganga bamenya icyo umurwayi arwaye, hasi hari amakaro, kuri ayo makaro hariho akandi kamashini gatoya.

Ibiganza by'umuntu barimo barapfuka, bisa nk'aho yari afite ikibazo ku biganza byombi, akitabaza muganga akamufasha kumupfuka kugirango ibikomere bye bikire.

Abantu bari mucyumba bambaye udupfukamunwa bameze nk'aho ari abaganga bari kureba igikoresho gisakaza amashusho kugirango bakurikire umuntu urimo urabaha inyigisho.

Iyi ni imiti iri mu bwoko bugiye butandukanye akaba ari imiti yifashishwa n'abantu usanga bakora siporo nk'urugero iyo mu kibuga umuntu agize ikibazo hari imiti y'ibanze ahabwa n'umuganga we kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umukobwa wicaye ku buriri busashe neza, akaba yambaye imyenda isa n'iyo bakorana siporo, ari kwinanura mu by'ukuri urabona ko ubu buriri buri mu cyumba kimeze neza.

Iyi ni imiti iri mu bwoko bugiye butandukanye yifashishwa n'umuntu uwo ari we wese ufite uburibwe, kubera ko iyi miti ifasha cyane mu kugabanya uburibwe ubwo ari bwo bwose.

Umukobwa wicaye mu kibuga aho ari gukora siporo yarambije amaguru hasi ari kwigorora ikindi kandi yambaye imyenda ndetse n'inkweto bya siporo.

Siporo ni umukino mwiza kandi w'ingirakamaro. Uyu mugabo rero ari muri siporo, aho yasashe akantu hasi akaba agapfukamyeho, hanyuma agashyira amaboko ye imbere, aho ari kwigorora umugongo.

Ni mu cyumba kirimo etajeri igiye ipanzemo ibintu bigiye bitandukanye, aha ngaha harimo imiti itandukanye ndetse n'ibindi bintu by'ingenzi bikenerwa n'umuntu umaze gukora siporo.

Umugabo urimo arakora siporo akaba aryamye hasi kuri sima akaguru ke k'indyo yakazititseho umugozi ari kugerageza gukurura mu rwego rwo gukora siporo akoresheje ako kaguru.

Umusore uri ahantu hagaragara nko mu nzu, harimo ibyatsi bya tapi aho uyu musore ari gukora siporo, akaguru ke k'imoso yagahagaritse ku kintu kiri imbere birasa nkaho arimo arakora siporo ameze nk'uwiruka uwo musore yambaye imyenda yabugenewe y'umukara yo gukorana siporo unyuze mu idirishya hari jaride nziza cyane.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara, gifashe ijage y'ikirahure kirimo kirasuka amazi mu gikombe cy'ikirahure giteretse ahantu hameze nko ku meza, ni byiza kunywa amazi mu buzima bwacu kuko amazi adufasha kurushaho kumererwa neza.

Umukobwa wambaye impuzankano akaba yambaye n'uturindantoki, imbere ye hari umuntu umeze nk'aho yar’afite ikibazo, ariko hakaba hari agakoresho kabugenewe kari kumufasha kugira ngo abashe kukagenderamo. Ibi rero bikaba ari ibikoresho byifashishwa n'abantu bafite ikibazo, bari bamaze igihe batabasha kugenda.

Umukobwa uri ahantu hameze nko mu cyumba, akaba yambaye imyambaro yabugenewe bakoresha siporo, akaba afite akantu kameze nk'isume ku rutugu rwe rw'imoso ndetse akaboko ke k'indyo kakaba gafashe igurudu, aho uyu mukobwa ari kunywa amazi; mu bigaragara ni uko uyu mukobwa avuye muri siporo yarangiza akanywa amazi kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Siporo ni ingenzi mu buzima bw'abantu, uyu musore arimo aragerageza gukora siporo, ananura amaguru ye, yicaye hasi arimo arakora siporo.

Umukobwa ufite imisatsi y'ibisuko; iyo misatsi ikaba izirikishije akabano kenda kujya gusa umuhondo; akaba ari kunanura amaboko; aho yayazamuye nk'umuntu uri gukora siporo.

Siporo ni ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu . Uyu musore yambaye imyenda yabugenewe bakorana siporo. Akaba yafashe akaguru ke yagashyize ku kintu, aho arimo aragerageza kwigorora.

Igikapu kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ibanze byifashishwa n'umuntu uri gukora siporo ndetse n'umuganga uri kwita ku muntu wagize ikibazo runaka.

Umusore n'umukobwa ubona bambaye imyenda yagenewe gukoreshwa siporo. Umusore akaba yicaye ku ntebe arimo aranywa amazi naho umukobwa we arahagaze. Munsi yabo hateretse ibikapu bibiri byumukara.

Umusore ubona ko yakoze siporo rwose nyuma y'uko avuye muri siporo afashe agacupa arimo aranywa amazi kugira ngo arusheho kongera kugarura imbaraga.

Aka ni akapa kariho uburyo bwinshi butandukanye umuntu ashobora gukoramo siporo, bityo bigatuma umubiri w'umuntu umererwa neza kurushaho, akirinda ibibazo biterwa no kudakora siporo.

Umusore ubona ko yakoze siporo rwose wambaye ekuteri mu matwi, akaboko ke k'indyo kakaba gafashe agacupa k'amazi arimo aranywa, ni byiza rero nawe ko mu gihe umaze gukora siporo wajya uhita unywa amazi kuko agufasha ibintu byinshi.

Umusore wambaye agapira kabugenewe bakorana siporo, akaba afite agatambaro k'umweru ku rutugu rwe. Uyu musore akaboko ke k'indyo kakaba gafashe igurudu y'amazi ari anywa, bigaragara ko uyu musore yari asoje siporo. Akaba yari kunywa amazi kugira ngo arebe ko ubuzima bwe bumererwa neza.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga nk'uko bigaragara harimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa umuganga apima umurwayi kugira ngo muganga amenye ikibazo umurwayi afite.

Umukobwa uri ahantu heza mubona ko hashashe amakaro, akaba ari gukora siporo ndetse yambaye imyenda yabugenewe yo gukoreshwa siporo.

Uyu ni umusore uri gukora siporo akaba ari kuzikorera ahantu mu nzu heza cyane, yambaye ikabutura n'isaha ku kaboko hejuru akaba yambaye ubusa, ari gukora siporo yigorora amaguru.

Umukobwa wicaye ku buriri busasheho amashuka y'umweru, akaba afite igipfuko ahagana ku ivi, ubu rero ni uburyo abaganga bakoresha bita ku barwayi kugira ngo babavure ibikomere byabo.

Umusore n'umukobwa ubona aba mu nzu yagenewe gukorerwamo siporo. Umukobwa arasutamye ari kwitegereza umusore uri gukora siporo. Siporo n'ingirakamaro mu buzima bw'umuntu kuko imufasha kwirinda amavunane.

Umukobwa wicaye ku kantu gafite ibara ry'ubururu, akaba yicaye arambije neza aho afashe munsi y'ibirenge, uyu mukobwa mu by'ukuri akaba ari gukora siporo arimo agenda yigorora gake gake.

Umuntu wicaye ku gatanda kabugenewe, akaba ari hamwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uyu mukobwa akaba yazamuye akaguru hejuru, umuganga arimo asa nk'umukandira ku ivi, bigaragara ko uyu mukobwa yagize ikibazo cyo kuvunika, noneho uno muganga akaba arimo aramuha ubuvuzi bw'ibanze.

Abantu bari ahantu ubona ko hateye ibiti bigiye bitandukanye bakaba bambaye imipira y'imyeru imbere hari abagabo babiri bateruye undi mugabo bambaye utujiri turiho ikimenyetso cya kuruwa ruje bikaba bigaragara ko uyu muntu bateruye yari afite ikibazo gikomeye ariko bakaba bagiye kumwitaho.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga hicaye umuganga wambaye impuzankano ndetse hari umubyeyi ufashe akana aho umuganga yamushyizeho igikoresho cyabugenewe kugira arebe ikibazo uwo mwana afite.

Umusore n'umukobwa bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, buri muntu wese afite igurudu irimo amazi. Biragaragara ko bari muri siporo, kuko bameze nk'abari kwiruka.

Ni mu cyumba ubona ko kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, hahagazemo umusore wambaye agakoresho karinda intoki ubona ko hari ibikoresho arimo atunganya hano muri iki cyumba kirimo ibi bikoresho bigiye bitandukanye.

Ikirahure giteretse ahantu hameze nko ku meza, kikaba kirimo kirasukwamo amazi meza cyane, ubona ko aberewe kunyobwa, ikirahure kiri gusuka amazi biragaragara ko bishoboka ko hari umuntu waba ugifite, ariko uwo muntu ntabwo agaragara.

Mu kibuga cy'umupira harimo abantu babiri bambaye utujiri tw'umutuku twa Croix rouge, bakaba barimo baraha ubuvuzi bw'ibanze umukinnyi uryamye hasi mu kibuga ugize ikibazo ubwo yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, abandi bakinnyi barahagaze barimo bararebera bano baganga ibyo bakora.

Hano hari umukobwa wambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo yicaye hasi ararambije amaboko ye yayagejeje ku mano, mu bigaragara ni uko uyu mwana w'umukobwa ari gukora siporo.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abaganga babiri ndetse n'abaforomo babiri ubona ko hari ikibazo runaka bari kwigaho, bose bambaye impuzankano ziranga akazi kabo bakora ka buri munsi.

Umubyeyi wicaye mu nzu ku buriri imbere ye hakaba hari umwana wambaye utwenda tw'umweru urimo araseka hakurya ye hari n'undi muntu uhari usa n'aho yifashe ku itama.

Umusore wambaye isengeri yabugenewe yo gukoresha siporo, akaba ahagaze arimo arinanura, akaboko ke k'indyo yagakojeje inyuma mu bitugu ndetse n'akaboko k'imoso gafashe ku nkokora y'akaboko k'indyo.

Kamwe mu dukoresho twabugenewe baryamishaho umurwayi, kugira ngo bamukure ahantu bamujyana ahandi, aka gakoresho nk'urugero gakunda gukoreshwa nko mu kibuga, mu gihe umukinnyi agiriye ikibazo mu kibuga, aho ababishinzwe bagenda bakakamuryamishaho bakamuzana bamuteruye.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa n'abantu b'ingeri zitandukanye bakora siporo, kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, imbere harimo abantu bari kugerageza gukora ibyo bintu.

Hano hari umukobwa usa n'uri gukora siporo, akaba ari gukora siporo izwi nka pompaje. Imbere ye hari ibiryo by'ubwoko bugiye butandukanye, byifashishwa n'umuntu umaze gukora siporo kugira ngo agarure akabaraga.

Umukobwa ufashe igurudu, urimo aranywa amazi, bigaragara ko uyu mwana w'umukobwa yari afite icyayaka, kunywa amazi ni byiza kuko bifasha ubuzima bw'umuntu kugumya kumererwa neza.

Umusore wambaye umupira w'umweru, akaba yambaye impeta, ndetse ku kaboko hakaba hariho agakoma. Akaba yahinnye ivi, bigaragara ko ashobora kuba ari gukora siporo, yigorora gake gake.

Umugabo uri muri siporo yo guterura ariteri, akaba azengurutswe n'ibiribwa by'ingirakamaro bifasha umuntu wakoze siporo kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa mwiza cyane ubona ko ari gukora siporo, wambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, imbere ye hateretse imashini ndetse n'utundi dukoresho tumufasha gukora siporo n'umugozi.

Umukobwa wicaye hasi warambuye akaguru umeze nkaho ari gukora siporo, iruhande rwe hateretse agacupa k'umweru, ndetse uyu mukobwa muri uko gukora siporo kwe, yambaye amaye ekuteri bisa nkaho ari kumva umuziki.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe yo gukorana siporo, yicaye ahantu hameze nko ku ma esikariye arimo aranywa amazi, ku ijosi rye afite agasume, ndetse yambaye ekuteri afite na terefone ngendanwa mu ntoki.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe bakorana siporo akaba ari gukora siporo kugirango umubiri we ndetse n'ubuzima bwe birusheho kumererwa neza, ari kwigorora amaguru.

Umusore wambaye umupira w'ubururu ndetse akaba yambaye umukufu mu ijosi, afite ikirahure cy'amazi arimo arayanywa, uyu musore nkuko bigaragara ashobora kuba avuye muri siporo.

Umukobwa wambaye imyenda yagenewe kwambarwa n'umuntu uri muri siporo uyu mukobwa rero akaba ari gukora siporo ngororamubiri nk'uko bisanzwe hano uyu mukobwa arimo aragorora amaguru ye.

Ubu ni ubwoko butandukanye bw'imiti y'ibanze cyane cyane ikoreshwa n'abantu bakora siporo zitandukanye, urugero: n'iyo mu kibuga umukinnyi agize ikibazo umuganga ubifite mu nshingano yifashisha imwe mu miti akamwitaho.

Abana ubona ko bakiri batoya bambaye impuzankano, bakaba barimo babyina, iruhande rwabo hari abantu benshi barimo barareba imibyinire yabo, hakaba hari abandi bafashe icyapa ariko kikaba kitagaragara neza.

Umuganga wambaye impuzankano z'ubururu akaba ari kumwe n'umurwayi arimo aramupfuka ku kaguru kuko bisa nk'aho uyu murwayi yari yakomeretse.

Abantu batandukanye, abakobwa ndetse n'abahungu ubona ko barimo barakora imyitozo ngororamubiri, bari kuyikorera ahantu hasashe amapave ndetse ku ruhande rwaho hakaba hari ibiti byinshi bihakikije.

Iyi ni webusayiti yashyiriweho abanyarwanda bose bifitemo impano yo kwirukanka uyu akaba ari umukino mwiza kandi rwose ukundwa n'abantu benshi batandukanye.

Iyi ngiyi ni imiti y'ibanze, iyi miti ikaba ikoreshwa na muganga mu gihe hagize umuntu ugira ikibazo, iyi miti rero ihita yitabazwa kugira ngo ifashe umurwayi kumererwa neza.

Iki ni igikoresho cyabugenewe kiri mu ibara ry'umweru, kikaba ari igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa n'umuganga mu gihe arimo arasuzuma indwara umurwayi yaba afite.

Uyu ni umusore ubona ko yakoze siporo rwose. Nk'uko bigaragara, afashe igicupa cy'amazi, arimo arayanywa. Nyuma y'uko avuye mu gasiporo.

Ikimenyetso cy'umusaraba kikaba kiri mu ibara ry'umutuku, hejuru yacyo handitseho ngo Kuruwa ruje Rwandeze, munsi hakaba handitseho ngo Rwanda redi korosi, ubu bukaba ari uburyo bw'ubutabazi bw'ibanze bwita ku bantu bose bafite ikibazo.

Ikiganza gifashe ijage y'ikirahure kirimo kirasuka amazi mu gakombe k'ikirahure, kunywa amazi ni byiza kuko bifasha umuntu kugira ubuzima bumeze neza.

Umukobwa wambaye akambaro kabugenewe ko gukorana siporo akaba ahagaze ahantu ubona ko hirengeye, yazamuye amaboko ye yombi asa n'uyacomekanya aho ku kaboko ke k'imoso hariho isaha yambaye ndetse uyu mukobwa yambaye ekuteri mu matwi bisa nkaho avuye mu myitozo ngororamubiri akaba arimo aragerageza kwigorora.

Umuntu bigaragara ko ari umusore akaba yicaye ahantu hameze nko mu cyumba. Yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro yenda gusa ubururu, ku kaboko ke k'indyo yashyizeho akantu k'ubururu yafatishije akaboko ke k'imoso bisa nk'aho ari barafu yashyize ku kaboko ke bigaragara ko akaboko ke k'indyo kari gafite ikibazo akaba yari gushyiraho barafu kugirango akavure.

Ni mu nzu yahariwe gukorerwamo siporo harimo umukobwa urimo urakora siporo, iruhande rwe hari umugabo bigaragara ko ari nk'umwarimu umufasha gukora siporo.

Abasore babiri bicaye m'inzu isa neza cyane ubona ko umwe ari gufasha undi gukora siporo amufasha kwigorora amaguru siporo rero akaba ari imwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa muntu.

Umusore wambaye isengeri ubona ko avuye muri siporo, akaba afite agacupa k'amazi arimo anywa kugira ngo arebe ko yongera kugarukana akabaraga.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera, bufite ibara ry'icyatsi. Iki kimera, kikaba cyifashishwa mu gukoramo imiti ya gakondo, abaganga bifashisha bavura abarwayi bafite ibibazo.

Akantu kameze nk'ivase kahurijwemo ibyatsi bigiye bitandukanye bikorwamo imiti gakondo, kakaba gafashwe n'ibiganza by'umuntu utarimo uragaragara neza.

Imiti yo mu bwoko butandukanye ya gakondo, ikaba ifunze mu dukoresho dutandukanye, iyi miti ikaba ikoreshwa n'abantu bafite ibibazo by'buzima kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Imwe mu miti ya gakondo yifashishwa n'abantu batandukanye, harimo indimu, ibitunguru ndetse turabona n'agacupa karimo umuti wenda gusa umuhondo, inyuma kuri ako gacupa hariho igishushanyo cy'igikakarubamba.

Igiti giteye ahantu hameze nko mu ishyamba kikaba gifite amashami ndetse n'utubabi dutoshye. Iki giti kikaba kibarizwa mu miti ya gakondo kuko nacyo gikoreshwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye.

Umusambi uriho imiti myinshi igiye itandukanye ya gakondo, ifite ubwoko butandukanye. Hariho ibiganza by'umuntu urimo urasekura ubwoko bumwe bw'iyo miti.

Aka ni agacupa kari mu ibara ry'umweru, gafite umuvuniko w'umweru, kakaba karimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima.

ubu ni bumwe mu bwoko bw'imiti gakondo bukoreshwa n'abantu boza amenyo yabo kugira ngo arusheho kumererwa neza kuri uwo muti hashushanyijeho igishushanyo cy'igikarubamba.

Igiti gifite amashami n'amababi bitoshye, iki kikaba ari igiti kizwi ku izina ry'umuravumba ndetse kikaba kibarizwa mu miti ya gakondo.

Igiti giteye kiriho amababi ndetse n'uturabyo, iki giti kikaba cyera kirandaranda, akaba ari kimwe mu bikoreshwa mu miti gakondo ikoreshwa n'abavuzi gakondo bavura abantu.

Imiti yo mu bwoko bubiri butandukanye, gusa yose ikaba ari imiti gakondo, ku muti umwe hariho igikakarubamba ndetse ku wundi hariho utuntu tumeze nk'uturabyo, iyi yose akaba ari imiti ikoreshwa n'abavuzi gakondo.

Agacupa k'umuti wa gakondo wifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, kandi bafite ibibazo bitandukanye, kugira ngo bumve barushijeho kumererwa neza mu buzima bwabo.

Imiti myinshi y'ubwoko bugiye butandukanye, akaba ari imiti ikoreshwa n'abavuzi gakondo kubera ko ari imiti usanga igiye ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye.

Ahantu hahinze ikimera gifite ibara ry'icyatsi iki akaba ari ikimera cyifashishwa n'abaganga gakondo mu gihe barimo bavanga imiti kugira ngo babashe kubona imiti gakondo ifasha abantu barwaye indwara zitandukanye.

Agacupa k'umweru karimo umuti gakondo kakaba gafite umufuniko w'umweru, kandidikishijweho amagambo ari mu ibara ryenda gusa umuhondo iyi akaba ari imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Hano hari ishusho iriho avoka. Ikaba iri mu ibara ry’icyatsi. Iyi avoka ikaba ikoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye, harimo isabune. Hakaba handitseho ngo avocadofesi andi avocadosopu.

Mu mavuriro menshi agiye atandukanye cyangwa se mu mafarumasi yo mu Rwanda hagiye harimo imiti myinshi ugiye usanga ikorwa mu bimera karemano, ahangaha hakaba hari etajeri irimo uducupa tw'imiti igiye itandukanye, utu ducupa tukaba turimo imiti ikozwe mu buryo bwa karemano ariyo abaganga ba gakondo bifashisha bavura abantu.

Igiti ubona ko gifite amababi n'amashami bitoshye mu by'ukuri rero uyu nguyu ni umwe mu miti ya gakondo yifashishwa n'abavuzi gakondo bavura abarwayi b'ingeri zitandukanye.

Ubwoko bw'imiti ya gakondo butandukanye, bugiye buri mu ducupa dutandukanye, iyi ngiyi akaba ari imiti yifashishwa n'abaganga gakondo mu gihe bari kuvura umuntu urwaye cyangwa ufite ikibazo cy'ubuzima.

Ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye, ibi bimera bikaba byifashishwa hakorwamo imiti gakondo abavuzi gakondo bifashisha bavura abantu batandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'umuti witwa serumu, uyu muti ukaba ukorwa mu bimera bigiye bitandukanye aho bamwe bawugereranya n'imiti gakondo abaganga bifashisha bavura abarwayi.

Ahantu mu butaka hahinze ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera bikaba byifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti igiye itandukanye; hari ikiganza cy'umuntu utagaragara neza gifashe amababi y'iki kimera, aho bisa nk'aho yaje kugisoroma kugira ngo ajye kukifashisha.

Ubwoko bubiri bw'imiti gakondo butandukanye iyi ngiyi akaba ari imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo barimo bafasha abarwayi barwaye indwara nyinshi zitandukanye.

Iyi ni imiti gakondo, iri mu bwoko bugiye butandukanye, igihe ifunze mu ducupa tw'amoko atandukanye, iyi akaba ari imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo barimo bavura abantu.

Iyi ni imiti ya gakondo iri mu bwoko bugiye butandukanye itetse ahantu hameze nko ku meza, iyi miti ikoreshwa n'abavuzi ba gakondo igihe bari kuvura abarwayi bafite indwara nyinshi zitandukanye.

Utu ni uducupa dutatu .Turi mu bwoko butandukanye. Utu ducupa turimo imiti itandukanye. Iyi ikaba ari imiti, ikoreshwa n'abavuzi gakondo.

Ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, navuga nka tungurusumu, ndetse hariho n'indi miti igiye itandukanye ikoreshwa n'abavuzi, kugira ngo bite ku barwayi bitewe n'indwara runaka barwaye.

Ubu ni ubwoko bw'imiti bukoze mu ishusho y'ibinini aho buri mu ibara ry'icyatsi ndetse bukaba busutse mu kintu kibaje mu giti, iyi miti ikaba ari imiti yakozwe mu bimera bya gakondo.

Akapa kariho izina ry'ikigo gicuruza imiti ndetse gikora ubuvuzi ariko bwerekeranye n'imiti gakondo. Kuri ako kapa hakaba hariho ifoto y'igikakarubamba.

Ubu ni ubwoko bw'imiti ya gakondo buri mu ducupa tugiye dutandukanye, iyi miti ikaba ikoreshwa n'abantu bafite ibibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye.

Ibiti byinshi biteye ahantu bikaba biri mu ibara ry'icyatsi, ibi biti bikaba byifashishwa n'abaganga gakondo aho babyifashisha babikoramo imiti baha ababagana bafite ibibazo.

Ubu ni ubwoko butandukanye bw'imiti ya gakondo, buri mu ducupa tugiye dutandukanye akaba ari imiti yifashishwa n'abaganga, bavura abarwayi indwara zitandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo, igiye itandukanye. Ifunze mu ducupa tugiye dutandukanye, iyi miti ikaba ikoreshwa n'umuntu wese ufite ikibazo, aho ahabwa umuti ujyanye n'ikibazo afite.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bugiye butandukanya. Iyi miti ikaba ifunze mu ducupa dutandukanye. Ndetse iyi miti ikaba ikoreshwa mu kuvura abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye.

Uducupa tubiri twose tukaba turimo imiti ya gakondo, tukaba dufite amabara atandukanye, kamwe kari mu ibara ry'umweru aho gafite umufuniko w'umutuku, akandi kakaba kari mu ibara ry'umuhondo gapfundikije umufuniko usa n'umukara, kuri utwo ducupa twombi hashushanyijeho igikakarubamba.

Iri n’ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye. Harimo: ibiti bitoya, ibiti binini, ibirebire ni bigufi. Mu byukuri rero urabona ko bigoye kuba wakinjiramo ngo ubashe gusohokamo.

Ubu ni ubwoko bw'imiti ya gakondo itandukanye nkuko bigaragara uri mu ducupa tugiye dutandukanye iyi ikaba ari imiti yifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo by'ubuzima.

Iyi ni imiti y'ubwoko butandukanye, ikaba ifunze mu ducupa dutandukanye, iyi miti ikaba izwi nk'imiti gakondo, aho yifashishwa n'abaganga gakondo, bavura abarwayi batandukanye.

Agacupa karimo umuti wifashishwa n'abantu bafite indwara zigiye zitandukanye, aka gacupa kakaba karimo umuti ukorwa mu bihingwa cyangwa se umwe mu miti yitwa imiti gakondo yifashishwa n'abaganga gakondo.

Uyu ni umwe mu miti gakondo ikoreshwa n'abaganga gakondo, mu gihe barimo bita ku barwayi bafite indwara zigiye zitandukanye.

Iyi ni tangawizi. Tangawizi ni umuti ukoreshwa mu buryo bwa gakondo, aho ivura ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ibyatsi byiza ubona bitoshye, bikaba biri mu ibara ry'icyatsi. Ibi byatsi bikaba na byo bigira uruhare mu gukorwamo imiti igiye itandukanye, ifasha abaganga mu kuvura abarwayi bafite ibibazo byinshi.

Ubu ni ubwoko butatu bw'imiti gakondo. Umuti umwe uri mu ducupa, utwo ducupa hashushanyijeho igikakarubamba, ndetse iyi akaba ari imiti ikoreshwa n'abavuzi gakondo.

Itsinda ry’abantu wagirango ngo ni abakerarugendo bari ahantu hameze nko munsi y’umusozi, imbere yabo ku musozi hari kumanuka amazi kumpande zombi ibumoso n’iburyo. Hari ishyamba ryinshi.

Ubu ni ubwoko bw'imiti ya gakondo igiye itandukanye ikoreshwa n'abaganga gakondo bafasha abantu mu kubavura indwara zigiye zitandukanye.

Etajeri irimo uducupa twinshi turimo imiti igiye itandukanye, iyi akaba ari imiti ikorwa mu byatsi imwe bamwe bakunze kwita ko ari imiti ya gakondo yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Ubu ni ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, ikaba ifunze mu ducupa dutandukanye, harimo imiti myinshi igiye ikozwe mu byatsi cyangwa se mu bimera bamwe bakunze kwita ko ari imiti y'ubuvuzi gakondo.

Uducupa turimo imiti y'ubwoko butandukanye, ikaba ifunze mu ducupa dutandukanye, iyi miti nkuko bigaragara ikorwa mu bimera, akaba ari imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Imiti ya gakondo y'ubwoko butandukanye, ikaba ifunze mu dukoresho dutandukanye, iyi ngiyi ikaba ari imiti yifashishwa mu kuvura abantu ariko mu buryo bwa gakondo.

Iki ni igikakarubamba. Igikakarubamba na cyo ni kimwe mu miti ya gakondo ikoreshwa n'abavuzi ba gakondo kuko igikakarubamba kigira uruhare mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni ahantu ubona ko hateye ikimera, iki kimera kikaba kifashishwa hakorwa imiti myinshi itandukanye ivura indwara nyinshi zitandukanye, iki kimera kifashishwa n'abaganga gakondo bakora imiti gakondo itandukanye.

Ahantu hahinze imiti ikoreshwa n'abavuzi gakondo, ndetse hari ivase ririmo indi miti y'ubwoko bugiye butandukanye. Nayo yifashishwa mu kuvura abantu ariko mu buryo bwa gakondo.

Uyu ni umwe mu bwoko bw'imiti ya gakondo bukoreshwa n'abavuzi gakondo, bita ku barwayi bitewe n'indwara zitandukanye bagiye bafite.

Icyatsi ubona ko gitoshye, ndetse gifite amababi atohereye asa icyatsi. Iki kikaba ari kimwe mu bimera byifashishwa hakorwa imiti gakondo igiye itandukanye, ivura indwara nyinshi zagiye zitandukanye.

Ubwoko bw'imiti ya gakondo igiye itandukanye iri mu ducupa dutandukanye, imbere yayo hari jaride nziza cyane, bisa nkaho ari ibyatsi bikorwamo iyi miti.

Iyi ni imiti gakondo iri mu bwoko bugiye butandukanye, hari iyiri mu ducupa ndetse hari n'imiti y'ibyatsi iyi yose akaba ari imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Iyi ni imiti iri mu bwoko bugiye butandukanye. Ikaba ari imiti gakondo ikoreshwa n'abavuzi gakondo iyo barimo bita umurwayi, bitewe n'indwara arwaye.

Ikimera ubona ko gitoshye cyane kikaba gifite amababi ameze neza, iki kimera gifite ibara ry'icyatsi, kikaba ari kimwe mu kimera kifashishwa n'abavuzi gakondo bagikuramo imiti yo gufasha abarwayi.

Igiti gitoya gifite amababi ubona ko atoshye, iki giti kikaba cyifashishwa n'abavuzi gakondo bakoramo imiti kugira ngo babashe kwita ku barwayi.

Etajeri irimo uducupa tugiye dutandukanye two mu bwoko butandukanye, utu ducupa twose tukaba turimo imiti ya gakondo yifashishwa n'abantu bafite ikibazo cy'ubuzima.

Ubu ni ubwoko bw'biti bugiye butandukanye aho bwifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura abantu bakoresheje imiti yabo gakondo iyo miti rero irafasha kandi ivura abantu bose barwaye.

Ikimera ubona ko gitohereye kikaba gifite amababi menshi cyane. Iki kimera kikaba ari kimwe mu bimera byifashishwa n'abavuzi gakondo bakora imiti myinshi itandukanye gakondo, aho bagifata bakakivangavanga n'ibindi bimera ubundi bagakoramo imiti ivura indwara zitandukanye.